Imiti yo mu myaka ituma imyakaka zikura neza maze uwahinze iyo myaka akagira umusaruro ushimishije kubera ko iyo myaka iba yarakuze neza kandi yitaweho cyane.

Ibigori barabihinze none bisa neza cyane. Baba bagomba kubitera imiti kugira ngo barinde ibigori udusimba twazamukamo, maze tugatuma bitera neza cyane.

Ubuhinzi bwa kijyambere bukoreshejwe imashini ,butuma umusaruro wiyongera, kandi n'abantu bari guhinga ntibavunike cyane ,bitewe n'uko mu mwanya wo kujya mu murima bajyana amamshini.

Ifumbire mvaruganda ifasha abahinzi cyane， kubera ko iyo umuhinzi ayifumbije， imyaka ye irabyibuha igashisha，na we akazabona umusaruro ushimishije，ni byiza ko umuhinzi aba agomba gufumbira imyaka ye， kugira ngo imyaka ye yiyongere.

Dutere imiti mu myaka rimwe na rimwe biba bikenewe kubera ko hari igihe usanga mu myakaka harimo udusimba, iyo miti bari gutera mu myaka yikirukana utwo dusimba, maze iyo myaka igakura neza kubera ko udusimba tuba twavuyeho.

Ubuhinzi bwitaweho butanga umusaruro mwinshi ushimishije, biba byiza iyo umuntu akoresheje amafumbire cyangwa agakoresha imiti kugira ngo ubuhinzi bwe butere imbere cyane, kandi butange umusaruro.

Ni byiza cyane gutera imiti mu myaka, kubera ko imiti ikura udusimba mu myaka, bigatuma igira umusaruro, kandi uwayihinze akabona inyungu nyinshi.

Imiti y'ubuhinzi yica udukoko twinshi cyane, bigatuma imyaka yera neza, maze abayihinze bakabona umusaruro. Ni byiza cyane gukoresha imiti z'ubuhinzi, kugira ngo ikure ubusimba mu myaka.

Gutera imiti imyaka biba byiza cyane, kuberako imyaka hari igihe iba ifite udusimba maze watera imiti utwo dusimba tukagenda, iyo myaka ikagira umusaruro kandi ikera neza.

Gutera imiti ku bihingwa ni byiza cyane, kubera ko byirukana udusimba tuba turi kuri ibyo bihingwa. Utwo dusimba tugumyeho twakwangiza ibyo bihingwa, maze tugatuma bidakura neza.

Abantu bari gutera imiti mu myaka bagomba kuba birinze, birinze mu ntoki bambaye amaga, cyangwa birinze ku mazuru kugira ngo badahumeka iyo miti ikaba yabangiza.

Ubworozi bw'amafi ni bwiza cyane kubera ko butunga abantu. Amafi ni meza ku buzima bw'umuntu kubera ko agira intungamubiri nyinshi cyane. Iyo umuntu yariye ifi ubuzima bwe bumera neza kubera ko mu mubiri we haba hiyongemo intungamubiri.

Amafi ni meza cyane ariko agira amagufwa menshi. Niyo mpamvu umuntu aba agomba kwitwararika igihe ari kuyarya cyangwa ari kuyagaburira umwana, kubera ko uyamuhaye nabi amagufwa yamuhagama bikamutera ikibazo.

Isambaza mbise ziraryoha cyane, kubera ko iyo umuntu yazishyize mu isosi zituma isosi imera neza, kandi zitanga intungamubiri nyinshi, kubera ko udusimba two mu mazi bavuga ko dukungahaye ku ntungamubiri nyinshi cyane.

Inzuzi ni nziza cyane kuko zituma abantu bororeramo amafi maze imibereho myiza y'abaturage ikagenda neza bitewe n'uko baba bari kubona amafi vuba bitabagoye kandi bakiteza imbere.

Ifi ikawushije irabonera cyane kandi ikaryohera amaso, biba byiza iyo umuntu ayiteguye agashyiraho iyindi mitako, kugira ngo umuntu urayibona yumve ayikunze kandi yumve yishimye cyane.

Ubworozi bwo mu mazi ni bwiza cyane, iyo abantu babikurikiranye bagira umusaruro mwinshi cyane, bakabona inyungu nyinshi ,kubera ko muri iyi minsi usanga amafi ahenze cyane.

Amafi araryoha cyane kandi akagira intungamubiri nyinshi, umuntu iyo ayariye, agira intungamubiri nyinshi mu mubiri, maze umubiri ukamera neza, bikamurinda kuba yahura n'indwara, nyinshi zitandukanye.

Amafi atunganyijwe neza bakayumisha, abikwa igihe kinini cyane, bigatuma abantu bayarya gahoro gahoro, kandi bakayarya batari kuyasesagura.

Ifi iyo bayitetse bayumukije abantu barayikunda cyane kubera ko iba iryoshye, kandi amagufa yo muri iyo fi akaba atakwangiza umuntu. Abantu benshi bakunda amafi, ni yo mpamvu baba bagomba kuyatekana ubuhanga, kugira ngo abantu bayarye bishimye.

Isambaza ziraryoha kandi ziratubukabuka ugereranyije n'amafi. Isambaza zigira isosi nziza iyo abantu bayinyweye bagira ubuzima bwiza, kubera ko isambaza zikungahaye ku ntungamubiri nyinshi cyane.

Ifi ni nziza cyane ku bantu bayirya, abantu bayijya bagira ubuzima bwiza. Ifi ni nziza，kubera ko bavuga ko iyo umuntu yayiriye， agira ubwenge bwinshi.

Amafi araryoha iyo umuntu yayatetse akayumutsa cyane. Atuma abantu barya bishimye kandi bakayagirira apeti nyinshi, kubera ko aba yumutse.

Abantu boroye amafi mu nzuzi none yatanze umusaruro ushimishije, aho bitegura kuzayarya cyangwa bakayajyana ku isoko bakabona amafaranga.

Ifi iri mu isosi iraryohaha cyane, kubera ko iba yoroshe n'umwana muto akakaba yayirya biba byiza iyo ifi iri mu isosi kubera ko umuntu ayirisha ibindi biryo.

Ifi iraryoha cyane, cyane cyane iyo bayitetse bayikabushije. Umuntu ayirya yishimye kubera ko iba yumutse, kandi iyo umuntu ayirebye ku maso abona isa neza cyane.

Ubwato bufasha abagenzi, bagenda mu mazi, kugenda neza kandi bufasha abarobyi kuroba amafi neza, ubwato n'ingirakamaro, kubera ko budahari, abantu ntago babona, uko baroba amafi.

voka zirafasha cyane cyane iyo umuntu afite umuryango barazirya, bakazirya ku biryo bakishima cyane, zisagutse bakazijyana mu masoko bakabona amafaranga.

Ubuhinzi bwa karoti ni bwiza cyane. Iyo buhinze iruhande rw' inzira, abantu bari kuhanyura bareba ubwiza bwazo, maze bikabatera kumva ko na bo bazazihinga.

Ni byiza cyane gutera ibiti ,kubera ko ibiti biduha umuyaga bigatuma duhumeka umwuka mwiza. Ibiti kandi iyo bimaze gukura babitemamo za mishingiriro maze bakabigurisha ,cyangwa na bo bakabishingiriza. Ibiti bivamo imbaho cyangwa bakabikoramo intebe.

Kuvanga ibiti n'imyaka birafasha cyane, kubera ko ibyo biti bivamo ibishingirizo ibishingirizo bakabishingiriza imyaka ikera neza, cyangwa bakabijyana ku isoko bakabona amafaranga.

Ubuhinzi bw'ibitoki ni bwiza cyane kubera ko ibitoki iyo umuntu yabyitayeho neza abona amafaranga cyangwa akabona ibyo kurya. Urutoki kandi iyo umuntu arukoreye neza rutangaga umusaruro mwinshi cyane hanyuma n'insina zavuye ku rutoki bakaziha amatungo.

Ubuhinzi bufasha abantu kubona amafaranga kandi bakabona ibyo kurya. Iyo umuntu yahinze neza insina, akazitaho, abona amafaranga aturutse mu bitoki, undi nawe akabona imineke yo kurya. Ibidodoke na byo babyifashisha bari kurya imboga kuko ari byiza cyane.

Ni byiza cyane kwita ku buhinzi bw'ibidodoki kubera ko ibidodoki iyo bi byeze neza bitanga amafaranga, bakabijyana ku isoko bakabigurisha, kandi ibisigaye bakabirya.

Iyo umuntu ahinze neza abyitayeho abona ibyo kurya cyangwa akabona ibyo ajyana mu isoko, maze bakamuha amafaranga ayo mafaranga amufasha gukemura ibibazo byinshi bitandukanye.

Ubuhinzi bw'amashaza ni bwiza cyane. Amashaza yasimbura ibishyimbo igihe umuntu nta bishyimbo afite. Amashaza araryoha cyane iyo akiri mabisi, ayumye na yo atanga umusaruro kubera ko ahenze muri iyi minsi.

Ibirayi iyo muntu yabihinze neza abona amafaranga kandi akabona n'ibyo kurya ,akabona n'ibyo ahunika yazakoresha mu kindi gihe cy'ihinga, ibyo bigatuma yiteza imbere kandi akarwanya imirire mibi n'inzara.

Ibirayi barabihinze, aho bategereje ko byera maze bakabona ibyo kurya cyangwa bakabijyana ku isoko bakabona amafaranga, ibisigaye kandi bashobora no kubihunika maze bikazavamo imbuto.

Ibigori byahinzwe neza cyane bitanga umusaruro ushimishije. Abantu babihinze bazabona ibyo kurya, ibisigaye babijyane mu isoko, babigurishe babone amafaranga.

Umurima bawuhinzemo ibigori barabisarura. Maze ibigorigori barabisongora, bakaba bazabikoramo ibishingirizo. Umuma biteguye kuzawuhinga.

Iyo umuntu ahinze neza abyitayeho abona umusaruro ushimishije, akabona ibyo azarya, akabona n'ibyo azajyana mu isoko, cyane cyane ko muri iyi minsi amateke ahenze, iyo umuntu yayahinze abyitayeha abona amafaranga menshi.

Imboga ni nziza cyane kubera ko zifasha bazirya kwirinda indwara no gutuma bagira imibereho myiza. Imboga zikenerwa mu buzima bwacu bwa buri munsi, ni yo mpamvu ari ngombwa guhinga imboga.

Amashyamba ni meza cyane kubera ko atanga umwuka mwiza .Ahantu hateye amashyamba haba hari akayaga kameze neza. Amashyamba kandi avamo inkwi kandi akavamo ibishingirizo, amashyamba kandi iyo yitaweho neza avamo ibiti binini ,bakabibazamo imbaho, maze imbaho bakazigurisha, zigatanga amafaranga.

Guhinga kijyambere bifasha abantu benshi cyane, biba byiza iyo abahinzi baberekera uko bahinga kijyambere, kuberako bitanga umusaruro mwinshi iyo wabyitayeho neza.

Ibipapayi iyo wabihinze ukajya urabikorera ukabyitaho cyane, bitanga umusaruro mwinshi ushimishije ,maze aba bihinze bakabirya cyangwa bakabijyana mu masoko bakabona amafaranga.

Ubuhinzi bwa kijyambere ni bwiza cyane butuma umusaruro wiyongera, kandi abanyeshuri bakawusura bakagenda bahugurana, bakamenya byinshi ku buhinzi bwa kijyambere.

Imyumbati bayihinze neza itanga umusaruro ushimishije cyane, nabantu bahinze imyumbati bazayijyana ku isoko cyangwa bayirye iwabo mu rugo. Imyumbati irakunzwe cyane muri iyi minsi kubera ko ituma umuntu agira imbaraga kandi igakomeza umubiri.

Amaronji ni meza cyane ku buzima bw'umuntu, iyo umuntu yayahinze neza atanga umusaruro, maze akayarya akishima agasagurira n'amasoko, akabona amafaranga.

Inka zitanga umusaruro mwinshi cyane, kandi zikororoka cyane. Iyo umntu azijanye mu ifamu abona zisa neza, kandi aho mu ifamu zihabonera ubwatsi maze zigakura neza cyane.

Urukwavura bararworoye rutanga umusaruro mwinshi cyane, aho barwoye bitegura kuzafata aho zimwe bakazirya cyangwa bakajyana ku isoko bakabona amafaranga, urukwavu ni rwiza kubera ko rutangaga ifumbire maze uwarworoye akabona ifumbire afumbiza imyaka ye.

Imyumbati iraryoha cyane, iyo umuntu yayitayeho ,abona abakiriya benshi akarya, agasagurira n'amasoko .Imyumbati itera imbaraga abantu barayikunda cyane.

Igitoki cyeze neza ku kigero gishimishije none cyatanze imineke, aho imineke bazayirya bazagira ubuzima bwiza ,bitewe n'uko imineke igira intungamubiri zizafasha abazayirya.

Ibigori barabihinze aho babihinze bitegura kuzabirya, cyangwa bakazabyanika bikavamo imbuto, bahinze kandi n'imigozi y'ibijumba, aho bategereje ko yera maze bakazabirya.

Ubuhinzi bwa karoti iyo bwitaweho neza cyane, abazihinze babona umusaruro mwinshi, bakabona ibyo kurya, bakabona n'ibyo bajyana ku isoko.

Amashaza araryoha cyane, iyo umuntu yayahinze neza abona umusaruro kandi akabona inyungu nyinshi ,kuberako iyo umuntu adashaka kurya ibishyimbo arya amashaza n'iyo mpamvu abantu bayakunda cyane.

Ubuhinzi bwitaweho butanga umusaruro. Biba byiza cyane iyo umuhinzi ahinze ari gukura ibyatsi mu murima. Kubera ko ibyatsi iyo bigumye mu murima, bituma imyaka itera neza maze ntibitange umusaruro.

Inyanya abantu benshi barazikunda kuberako zitukuza ibiryo, abantu bahinze inyanya iyo bazitayeho neza bagira umusaruro mwinshi ,maze bakabona n'izo kurya cyangwa bakabona izo bajyana mu masoko.

Ubuhinzi bw'imbuto iyo umuntu yabwitayeho neza cyane, abona umusaruro ushimishije, akabona imbuto zo kurya, kandi akajyana no mu isoko, akabona amafaranga.

Abahinzi basaruye umusaruro ushimishije kubera guhinga neza, aho biteguye kuzarya ibyo bahinze cyangwa bakabikoramo imbuto, cyangwa bakabijyana mu isoko kubigurisha.

Abajyananama b'ubuhinzi bagira akamaro cyane kuko bagira inama abahinzi, bigatuma bamenya ko bagomba guhinga imyaka yabo kandi bakiteza imbere bagendeye ku nama baba bahawe n'abajyanama b'ubuhinzi.

Imiteja barayihinze none yatanze umusaruro ushimishije, aho abayihinze bitegura kuzayijyana mu isoko, cyangwa bakayirya, maze bakabona ibitunze imibiri yabo.

Icyayi iyo wagikoreye neza gitanga umusaruro mwinshi, abahinzi bakabaho neza, bitewe n'uko baba bakoreye icyo cyayi, bigatuma bagira imibereho myiza cyane.

Ibipapayi iyo byitaweho cyane bitanga umusaruro, aho uwabihinzie ashobora kubona ibyo kurya cyangwa akabijyana ku isoko akabona amafaranga maze akarushaho kwiteza imbere. Ipapayi kandi ni urubuto rwiza kuko rugira intungamubiri nyinshi cyane.

Ubuhinzi bw'inanasi buba bwiza cyane, kubera ko iyo abantu bazihinze biteza imbere. Bahuza imbaraga bakungurana ibitekerezo, maze zamara kwera bakabona izo barya, cyangwa bakazijyana ku isoko kuzigurisha.

Ibitunguru ni byiza cyane. Iyo umuntu yabihinze akabisarura byeze neza， bibikwa igihe kinini. Ibitunguru abantu benshi barabikunda，kubera ko bihumuza ibiryo.

Ibijumba biraryoha cyane iyo umuntu yabihinze neza akabyitaho abona umusaruro mwinshi ushimishije, maze akabona ibyo arya akabona n'ibyo ajyana mu isoko.

Ubuhinzi bwa kijyambere buba bwiza cyane. Iyo umuhinzi akurikiranye ibyo yahinze, abona umusaruro mwinshi cyane kandi agasagurira n'amasoko ,akabona n'ibyo kurya.

Abahinzi iyo bitaye ku guhinga bakabigira ibyabo babona ibyo kurya, bakabona ibyo bahunika, kandi bakabona ibyo basagurira amasoko. Niyo mpamvu umuhinzi wanyawe aba agomba kwita ku guhinga kandi agahinga kijyambere.

Voka zirakunzwe cyane muri iyi minsi kubera ko voka barazirya cyangwa bakazijyana mu nganda bakazikoramo amavuta yo kwisiga n'amavuta yo kurya. Abantu rero iyo bitaye neza kuri voka babona amafaranga menshi cyane.

Pavuro bazihinze neza none zatanze umusaruro ushimishije, aho uwazihinze azabona izo kujya cyangwa akazijyana ku isoko akabona amafaranga azamufasha kwiteza imbere.

Abahinzi b'ibirayi iyo babihinze neza cyane bagira umusaruro mwinshi. Bakabijana ku isoko bakabona amafaranga. Kandi bakabona ibyo kurya. Ibirayi ni byiza cyane iyo wabyitayeho.

Abajyanama b'ubuhinzi bagira inama abahinzi, bakaberekera bakabereka uko bagomba guhinga. Iyo bamaze guhinga bikera, babona ibyo kurya, bakabona ibyo bahunika, kandi bakabona n'ibyo bazahinga.

Imyembe iyo bayihinze neza itanga umusaruro ushimishije, maze uwayizihinze akabona ibyo kurya cyangwa kabona amafaranga, urusenda narwo abantu bararukunda muriyi mitsi, iyo umuntu yaruhinze arwitayeho, rumugirira akamaro, kandi akabona umusaruro mwinshi.

Ibirayi byahinzwe bitanga umusaruro ushimishije， ababihinze bazabona ibyo kurya， babijyane no ku isoko babone amafaranga. Ibirayi iyo byitaweho neza， bitanga umusaruro.

Zitannga umusaruro cyane iyo umuntu yoroye inkoko ariko akorora inkokokazi n'isake; inkokokazi zitera amagi, isake igashonda inkokokazi maze inkokokazi igaturaga udushwi, umusaruro ukiyongera.

Voka iraryoha cyane kandi abantu benshi barayikunda, kubera ko abantu benshi bayirisha ibiryo cangwa bakayirya iri yonyine, voka igira intungamubiri nyinshi cyane, iyo umuntu yayiriye amererwa neza mu mubiri.

Ubuhinzi bw'amashu iyo bwitaweho neza cyane butanga umusaruro bigatuma abantu babona ibyo kurya kandi bakabona n'amafaranga kubera ko baba basaguriye amasoko.

Umuhinzi mwiza ni ukurikirana imyakaye, akajya arayisura kandi akayikorera, akayirinda ko yazamo ikigunda, kubera ko ikigunda iyo kije mumyaka, bituma idakura neza.

Ubuhinzi bw'inyanya ni bwiza cyane kubera ko zikenerwa mu buzima bwacu bwa buri munsi. Iyo umuntu yahinze inyanya abona izo kurya, cyangwa akazabona izo ajyana ku isoko akabona amafaranga.

Iyo ibirayi byeze neza biratubuka bigashimisha umuhinzi cyane kubera ko umusaruro uba wiyongereye bigatera imbaraga umuhinzi zo kuba yakongera guhinga ibirayi.

Guhinga bifasha umuhinzi kwiteza imbere, kubera ko iyo ahinze abona ibyo arya, cyangwa akabona ibyajyana mu isoko maze bakamuha amafaranga, ayo mafaranga akamufasha gukemura ibibazo bitandukanye.

Abahinzi bahinga imbuto biteza imbere cyane, iyo bazihinze neza kandi bakabikora babishyizeho umutima, ni nayo mpamvu kandi ubu usanga imbuto zihenze cyane bitewe n'uko zigira akamaro mu buzima bw'umuntu.

Iyo uguze igitoki cyose kimara iminsi mu rugo bigatuma gitubuka, abantu bo mu rugo bakabona ibyo kurya bitabagoye kandi bigatuma abana bishima bitewe n'uko baba bari kurya bagahaga.

Ikoranabuhanga ni ryiza cyane kuko rifasha umuhinzi kumenya ibijyanye n'iteganyagihe uburyo yabona imbuto zo guhinga, n'uburyo yahinga agendeye ku iteganyagihe iyo ahinze neza imiryango ye ibaho neza.

Ubuhinzi bw'ikawa ni bwiza cyane kubera ko ikawa zigira amafaranga menshi. |Abazihinze barazisarura bakazijyana ku isoko maze bakabona amafaranga bakiteza imbere.

Imiteja iyo umuntu yayihinze neza itanga umusaruro ushimishije, kandi imiteja barayirya iyo bayihinze ikuma, zivamo izindi mbuto bazakoresha.

Inyanya ni nziza cyane ,iyo abahinzi bazitayeho neza zitanga umusaruro mwinshi babona izo kurya bagasagurira n'amasoko kuberako abantu benshi bakunda guhaha inyanya ,abahinzi bazihinga babona aho bazigurisha.

Umuhinzi yahinze neza cyane akita ku byo yahinze abona umusaruro mwinshi ushimishije. Iyo asaruye neza ararya agasagurira amasoko cyangwa agahunika kugira ibyo yahunitse azabyifashishe mu kindi gihe cy'ihinga.

Ibirayi iyo byitaweho neza cyane ,bitanga umusaruro mwinshi .Abantu babihinze babona ibyo kurya kandi bakabijyana no mu masoko bakabaha amafaranga.

Abahinzi biteguye guhinga bari kugenda bari kuganira uburyo bagiye guhinga ,bafite amasuka ku rutugu, ayo masuka akaba arabafasha guhinga.

Igipapayi ni cyiza cyane, iyo bagisaruye cyeze neza imbuto zacyo barazanika maze bakazazitera, zikavamo ibindi bipapayi, umusaruro ukarushaho kwiyongera.

Ibirayi ni byiza cyane ,iyo umuntu yabihinze neza bitanga umusaruro mwinshi kubera kubera ko aba yarabisaruye byeze neza ,akabihunika mu nzu akajya afataho ibyo kurya, cyangwa abijyana ku isoko.

Abahinzi b'ibirayi babonye umusaruro ushimishije, aho ibyo birayi bahinze bazabirya, cyangwa bakabijyana ku isoko bakabaha amafaranga, cyangwa bakabikoramo imbuto izabafasha guhinga ibindi birayi.

Ubuhinzi buba bwiza cyane ,kubera ko iyo umuntu ahinze abona ibyo kurya kandi akabona n'ibyo kujyana mu isoko .Ubuhinzi bw'mbuto zinyuranye ni bwiza cyane muri iyi minsi, kubera ko abantu benshi bakenera imbuto, kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza

Inyanya iyo wa zihinnze neza zitanga umusaruro kandi zikera neza cyane zigatukura, kuburyo iyo umuntu azikoresheje mu biryo biba bisa neza.

Amashaza iyo wayitayeho, atanga umusaruro mwiza. Agasa neza cyane ku maso, bigatuma abantu bayabonye bayishimira, maze bakihutira kuyagura.

Ibigori byahinzwe neza cyane, aho byatanze umusaruro ushimishije, Bakaba barabihunitse. Bazabikuramo ibyo kurya cyangwa babigurishe cyangwa babikuremo imbuto bazahinga ikindi gihe.

Ibijumba iyo umuntu yabihinze neza bitanga umusaruro ushimishije, maze uwabihinze akabona ibyo kurya, kandi akabona n'ibyo agurisha. Kubera ko muri iyi minsi abantu benshi bashaka ibijumba cyane, ngo bajye babikoramo biswi.

Ibirayi byeze neza cyane bitanga umusaruro ushimishije, aho aba bihinze bitegura kuzabirya cyangwa bakazabijyana ku isoko, bakabigurisha bakabona amafaranga bashobora kandi no kuzabikoramo imbuto, bazahinga ikindi gihe.

Ibirayi babikuye babipakira mu mifuka, aho biteguye kubiha umunyonzi maze akabibyana. Ababihinze bazabona ibyo kurya ,cyangwa ngo babijyane mu isoko babone amafaranga, cyangwa babihunike bazabigire imbuto ikindi igihe.

Ibitoki byeze neza ku kigero gishimishije cyane, aho ababihinze babijyananye mu isoko, bakaba bategereje ko abantu bazabagurira maze bakabona amafaranga. Abo ba bihinze kandi bazabona ibyo kurya, bizatuma baticwa n'inzara.

Ibigori barabihinze, aho biteguye kuzabisarura, maze bakabihunika, bakabona imbuto cyangwa bakabirya cyangwa bakabijyana ku isoko bakagurisha imbuto.

Imyaka yeze neza cyane. Aho bayanitse barangiza bakayishyira mu mifuka kugira ngo zizagurishwe cyangwa zikoreshwe ikindi gihe. Abayihinze barishimye cyane kubera ko babonye umusaruro mwinshi.

Ubuhinzi bwitaweho butanga umusaruro, cyane cyane iyo umuntu ahinze agasarura neza, n'imbuto ye akayibika neza, bituma abantu baza kumugurira imbuto, nawe akabona iyo azatera ikindi gihe.

Ibihwagari byeje neza cyane maze barabyanika babishyira mu mufuka. Aho ababihinze bitegura kuzabikoramo imbuto cyangwa bakabigurisha maze bakabona amafaranga.

Ubunyobwa ni bwiza cyane kubera ko babwifashisha bari guteka cyangwa bakabuhekenya, iyo umuntu ahinze ubunyobwa agira umusaruro, akajya kubugurisha ku isoko bakamuha amafaranga.

Ubuhinzi bwa kijyambere butanga umusaruro mwinshi cyane, maze uwabuhinze akabona ibyo kurya cyagwa akabona imbuto azakoresha ikindi gihe, maze umusaruro ukarushaho kwiyongera.

Imiteja abayihinze neza cyane， itanga umusaruro ushimishije， aho abayihinze babona ibyo kurya， cyangwa bakajyana mu masoko， bakabona amafaranga， imiteja iteye imbere cyane， kubera ko isigaye igira amafaranga menshi.

Ubunyobwa barabuhinze bwera neza cyane, aho biteguye kuzabutonora maze bakaburya, ubundi bakabubika, bakazabukuramo imbuto. Ubunyobwa iyo bwitaweho neza cyane, butanga umusaruro.

Ubunyobwa iyo umuntu yabwitayeho butanga umusaruro mwinshi cyane. Ubunyobwa iyo umuntu yabuhinze bukera neza, araburya cyangwa akabubika kazabukoramo imbuto. Ubunyobwa kandi umuntu ashobora kujya kubugurisha maze akabona amafaranga.

Soya zeze neza cyane, aho bazisaruye barangiza bakazanika, bakazishyira mu mufuka, aho biteguye kuzazikoresha mu kindi gihe cy'ihinga kugira ngo bakomeze babyaze umusaruro soya.

Iyo umuntu ahinze neza akabyitaho agakoresha ifumbire, imyaka ye yera neza akayisarura akabona imbuto azakoresha ikindi gihe, akabona ibyo kurya ntiyicwa n'inzara.

Ibishyimbo babihinze neza cyane bitanga umusaruro ushimishije, ababihinze baritegura kuzabikuramo imbuto, cyangwa ibizasigara bakabijyana mu isoko, bakabona amafaranga cyangwa bakabirya.

Imbuto zirateguwe neza cyane，aho biteguye kuzazihinga. Biba byiza iyo umuntu afashe neza imbuto， kugira ngo zizatange umusaruro mwiza.

Ibishyimbo iyo byitaweho neza, bitanga umusaruro ushimishije, uwabihinze akabona ibyo kurya, kandi akabona imbuto azahinga, agasagurira n'amasosoko, ubuzima bwe bukagenda neza cyane.

Imiteja abazyihinze neza none yatanze umusaruro ushimishije. Aha abayihinze biteguye kuzayirya, cyangwa bakayijyana ku isoko, bakabona amafaranga.

Ibigori iyo byitaweho neza cyane bitanga umusaruro maze umuhinzi wa bihinze akabona imbuto azahinga ikindi gihe, akagurisha akabona amafaranga maze akiteza imbere.

Umuceri barawuhinze utanga umusaruro ushimishije, aho abawuhinze bazawurya cyangwa bakawujyana ku isoko kuwugurisha maze bakabona amafaranga, bagakemura ibibazo bitandukanye.

Ibishyimbo bya kizungu birakundwa cyane kubera ko biduha imiteja, byaba byumye bakabirya ari ibitsimbano. Ibishyimbo bya kizungu biratubuka cyane ni yo mpamvu abantu babikunda, kandi bikaba byatanga n'amafaranga bitewe n'uko abantu bagurisha imiteja.

Abahinzi barahinze, aho imbuto zabo zumye bakazipakira mu mifuka, bakaba bitegura kuzazikoramo imbuto cyangwa bakazazigurisha, bakabona amafaranga maze bakarushaho kwiteza imbere.

Imbuto zisaruwe neza zitanga umusaruro mwinshi cyane, iyo bongeye kuzihinga kubera ko baba barazihunitse zumye neza nta kibazo, abazihinze rero bagira umusaruro bakiteza imbere.

Ibigori biraryoha cyane ariko bimungwa vuba, ni yo mpamvu baba bagomba kubihunika neza cyane kugira ngo bitazamugwa maze bikangirika. Ibigori bitanga umusaruro mwinshi cyane iyo wabihinze neza.

Amasaka ni meza cyane. Iyo wayahinze neza atanga umusaruro mwinshi. Amasaka avamo imbuto mu kindi gihembwe cy'ihinga, iyo wayitayeho neza. Amasaka kandi bayashigishamo umusururu, bakayashigishamo ikigage, bakanayakuramo urwagwa.

Ibigori byatanze umusaruro mwinshi cyane umeze neza, kuberako babihinze barangiza bakabihunika, aho bitegura kuzabikuramo imbuto izahingwa ikindi gihe cy'ihinga.

Ubuhinzi bwitaweho butuma umuntu atera imbere cyane kandi akabona imbuto yo guhinga mu kindi gihembwe Ubuhinzi bwitaweho kandi butuma umuntu abona amafaranga kuko iyo asaruye agurisha.

Ibigori bititaweho neza bitanga urusoro rutoya, maze bikanamungwa cyangwa bikaba nk'ibyaboze, ibyo bigori rero ntibyatanga umusaruro kubera ko bitakoreshwa mu kindi gihe cy'ihinga.

Ibigori iyo byitaweho neza cyane mu gihe cy'ihinga birera, bigatanga umusaruro, bitangaga imbuto nziza. Iyo mbuto igakoreshwa mu kindi gihe cy'ihinga. Ni yo mpamvu umuntu aba agomba kubibungabunga, kandi akabihunika ahantu hameze neza kugira ngo bitazamugwa.

Iyo umuntu ahinze neza kijyambere ,akabyitaho kandi akabikurikirana, abona umusaruro ushimishije ,akabona ibyo kurya kandi akabona n'imbuto zo gutera, cyangwa akabijyana ku isoko kubigurisha akabona inyungu.

Igishanga gifasha abantu guhinga neza. Iyo umuntu yahinze neza akabikurikirana, abona imbuto azahinga ikindi gihe, cyangwa akagurisha akabona amafaranga, akamufasha mu mibereho ye ya buri munsi.

Ibigori barabihinze, barabisarura biruma, aho bitegura kuzabikuramo imbuto cyangwa bakazabiryamo amahundo, cyangwa bakazabigurisha nabo bakabona amafaranga.

Ibihwagari byeze neza cyane none barabisaruye aho bitegura kuzabikoramo izindi mbuto. Ibihwagari bibamo amavuta aryoshye cyane cyangwa bakabirya nk'abari guhekenya ubunyobwa.

Imbuto zeze neza cyane, abantu bazihunika mu mifuka, abantu bazajya baraza, kugura imbuto zo guhinga, cyagwa baze guhaha ibyo kurya, kubera ko umusaruro, wagenze neza cyane.

Ni byiza cyane ko umuntu woroye akurikirana amatungo ye, akagajyana kwa veterineri, maze akayakingira kugira ngo ayarinde kugazahura n'indwara.

Inkoko zitanga umusaruro mwinshi cyane iyo wazitayeho, inkoko zitera amagi abantu bakabona ibyo kurya, inkoko kandi zitanga inyama abantu bakabona ibyo kurya, inkoko zitanga n'ifumbire ifumbira neza.

Amagi araryoha cyane. Aba agizwe n'intungamubiri zifasha umubiri mu kurinda indwara, atuma umuntu akura neza bitewe n'uko akungahaye ku ntungamubiri nyinshi.

Korora ni byiza cyane kubera ko iyo umuntu yoroye neza abona inyungu nyinshi kandi zitandukanye, ashobora kubona amata avuye k'umukamo w'inka cyangwa akabona ifumbire cyangwa akarya inyama zivuye muri izo nka aba yoroye.

Iyo umuntu yoroye inka neza itanga umusaruro ushimishije, kubera ko iyo nka ivamo umukamo cyangwa akayigurisha ku bantu babaga inyama bakamuha amafaranga, biba byizi iyo ayijyanye kwa veterineri maze akareba niba iri igukura neza cyangwa niba iri gutanga umusaruro ushimishije.

Inka zitanga umusaruro mwinshi iyo zitaweho cyane zitanga amata, zigatanga inyama ibyo byose ariko bibaho iyo abaveterineri bazisuye bakareba ko zimeze neza kandi ziri gutanga umusaruro ushimishije.

Inko umuntu aba agomba kuzitaho cyane kugira ngo zitange umusaruro ushimishije. Umuntu aba agomba kuziha imiti Iyo ari ngombwa, cyangwa agashaka abaveterineri bakamubwira niba ziri gukura neza.

Biba byiza iyo umuntu yoroye amatungo menshi atandukanye kubera ko abona ifumbire nyinshi cyane maze akayikoresha mu buhinzi cyangwa akayigurisha maze akabona amafaranga.

Ingurube iyo zimaze gukura zitanga umusaruro mwinshi cyane, kubera ko iyo umuntu azoroye zimuha ifumbire, biba byiza iyo atumijeho veterineri, kugira ngo arebe niba ziri gukura neza cyangwa azikingire, kugira ngo zitazafatwa n'indwara.

Korora ni byiza cyane ariko biba byiza iyo ukurikiranye ubworozi bwawe ukamenya amatungo yarwaye, ugahamagara veterineri akaza kuyavura, kandi ukamenya nibaga ari gukura neza cyane.

Isake zirakunzwe cyane muri iyi minsi kubera ko amasake bayakoresha bari gushondesha inkokokazi. Abantu boroye amasake bagira amafaranga menshi cyane, kubera ko iyo abantu baje gushondesha babaha amafaranga. Amasake kandi arakunzwe kubera ko agira inyama nyinshi kandi zigatubuka.

Inyamaswa zo mu gasozi akenshi ziba ari inkazi cyane, ni yo mpamvu ba mukerarugendo iyo bazisuye baba bagomba kwitwararika, kugira ngo zitaba zabatera amahane, maze zikaba zabagirira nabi.

Inyamaswa zo mu gasozi ziba ukubri, kubera ko rimwe na rimwe zirya izindi nyamaswa ngenzi za zo, ni yo mpamvu habaho kuba maso ku nyamaswa, kugira ngo zimwe zitaza kurumana zikaryana.

Inyamaswa zo mu gasozi ni nziza cyane, iyo umuntu azirebye abona zimeze neza kandi zibereye amaso, ba mukerarugendo iyo bazisuye basiga amafaranga menshi cyane, kubera ko iyo bazibonye zibashimisha.

Inyoni igira amabara meza cyane, kandi anogeye amaso, iyo umutu ari kuyireba abona isa neza cyane. Inyoni zikunda kwibera mu biti kubera ko ariho zijya zirabona ibyo kurya.

Inyoni ni nziza cyane kubera ko zisigaye zikurura ba mucyerarugendo, iyo bazibonye barishima cyane bakabona ukuntu ziri kuguruka bikabashimisha, amajwi y'inyoni na yo ashimisha ba mucyerarugendo.

Inyamaswa zo mu gasozi rimwe na rimwe zitera ubwoba bwinshi, iyo umuntu azibonye atazizi, zimutera ubwoba akaba yakwiruka agahunga, biba byiza rero iyo umuntu azibonye ari kumwe n'abandi kugira ngo bimurinde ubwoba.

Hari udusimba two mu ishyamba dutera ubwoba cyane iyo umuntu atubonye. Ku buryo ushobora guhura nako ukiruka cyane bitewe n'uko uba utamenyereye kukabona kagutera ubwoba rero iyo ukabonye.

Inyamaswa zo mu gasozi ziba ziteye amabengeza cyane, bamukerarugendo bakunda kuzisura kuberako bazibona bakishima, iyo bazisuye basiga amadovize igihugu cyacu kigatera imbere.

Ibiguruka byo mu kirere biryohera amaso cyane. iyo umuntu ari kubireba biri kugurukira hamwe bisaba imbaraga nyinshi ariko kugira ngo biguruke. Kubera ko biba biri hejuru cyane.